Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi meza kugira ngo birinde imyanda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, biganjemo abagore ndetse n'abana, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma harimo ibase, ijerekani n'ibindi.

Ihuriro ryabantu baturutse mubice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara yicyatsi, ubururu, umutuku, n'umukara bahagaze imbere y'inyubako nini, ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba kinini cyahuriyemo n'abayobozi batandukanye biga ku bibazo biraje ishinga sosiyete ndetse n'igihugu muri rusange kugira ngo bashake ibisubizo birambye.

Ihuriro ry'abaganga baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahuriye hamwe kugira ngo basuzume ingamba zo kurwanya indwara zituruka ku mwanda, ndetse n'uburyo batanga ubujyanama mu baturage.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye mu nyubako nini, bari gukora inama. Bambaye imyenda yiganjemo ubururu, icyatsi, umutuku, ndetse n'umuhondo, bityo bigatuma baganira neza, kubera ko bari ahantu heza hatuje.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi. Bambaye inkweto nziza kandi ubona ko bishimye.

Umugore n'umugabo n'umwana bicaye iruhande rw'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ubona ko barimo kuganira ndetse bungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye impuzankano y'umweru, ubona ko bavuye mu bikorwa bijyanye n'ubuvuzi kandi bya kinyamwuga.

Icyumba kirimo umusaza urimo kwitabwaho n'abaganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara; ubona ko afite ikibazo gikomeye kandi gikenewe kwitabwaho.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi biga ku bibazo bitandukanye, biraje ishinga sosiyete n'uburyo byafatirwa ingamba kugira ngo hagerweho intego nyamukuru, ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'ibi bibazo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturuka hirya no hino baje kuvoma amazi, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'umutuku, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abagore n'abana bari kunywa amazi ku iriba ubona ko bishimye kandi banezerewe, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi burambye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore, abana ndetse n'abasore, aho baza kuvoma amazi kugirango bagire ubuzima bwiza, bityo bikabafasha kubaho neza.

Abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye za leta, biganjemo abapolisi ndetse n'abandi baturutse mu turere ubabona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, barimo kuvoma amazi ku iriba, bafite ibikoresho bitandukanye, bifashisha bavoma amazi, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umukecuru urimo kuvoma amazi, afite amajerekani atatu, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, bigaragara ko yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kugura ibicuruzwa by'amoko atandukanye kugira ngo babone ibibatunga, bityo bagire ubuzima bwiza kandi bufite ikiguzi, kuko bubafasha mu buzima bwa buri munsi.

Umurwayi wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'umweru, urimo guterwa urushinge ku kaboko k'ibumoso, iruhande rwe hari umuganga urimo kumufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kuvoma amazi meza kugira ngo birinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, ndetse babone n'amazi meza asukuye yo gutekesha.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mu nzego zitandukanye. Iruhande rwayo hari ameza manini ndetse umuyobozi urimo kubabwira imbwirwaruhame ahagaze hagati.

Umwana wikoreye ijerekani, wambaye umupira w'ubururu ndetse n'umugabo uri kuyimukorera bari mu muhanda, ubona ko hari umuntu urimo arabafotora, wambaye imyenda y'imyeru, uwo mwana bamukore ijerekani nini kandi iremereye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu. Ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Ihuriro ry'abantu batandukanye baturutse mu bice byo hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, umutuku ndetse n'umweru; aho bahurira hamwe bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abayobozi batandukanye. Biganjemo : Abagabo , abagore bambaye imyenda irimo amabara y'umukara , umuhondo , umutuku n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba, baje kuvoma amazi yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo hirindwe indwara za hato na hato zituruka ku mwanda.

Umubyeyi uri mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi butandukanye uteruye umwana umuganga arimo kumwitaho ubona ko bishimye kandi banezerewe ndetse arimo kubaha serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo umugabo wambaye ikoti ryiza n'ishati y'umweru yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, wambaye indorerwamo z'amaso, iruhande rwe hari igikapu kinini cyiza cy'umukara.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko, abasore ndetse n'inkumi, bahagarariwe n'umuyobozi wabo urimo kubagezaho ijambo ndetse abaha n'ubujyanama ku bijyanye n'insanganyamatsiko yabahurije uyu munsi.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi b'inzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, zifitiye igihugu akamaro.

ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, bambaye ingofero nziza kandi zigezweho.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana bahagaze mu murima w'imboga bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru ndetse ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kongera iminsi yo kubaho.

Icyumba kirimo abantu baturutse mubi bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara urimo gukandagira kuri kandagira ukarabe agakaraba ndetse yishimye bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zaba iz'amaso, umutwe, umwijima, ibihaha ndetse n'ibindi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bafashwa bagataha bishimye.

Urujya n'uruza rw'abagore bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye z'isi, aho bambaye amakote meza n'amashati ababereye bityo bigatuma bagaragara neza.

Inyubako nini yahuriyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Bambaye imyenda y'umukara, umweru, ubururu. Ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba cyateraniyemo abantu batandukanye, biganjemo abagabo n'abagore, bambaye amakoti meza, arimo amabara y'umukara, umutuku n'ubururu.

Ihuriro ry'abantu bavuye mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru, umukara ndetse n'ayandi atandukanye, aho bahuriye hamwe kugirango ngo bige ku bibazo bitandukanye bihangayikishije abaturage.

Icyumba cyahuriwemo n'abantu baturutse mubi bice bitandukanye biganjemo urubyiruko bambaye imyenda y'umweru umutuku umukara n'ubururu.

Umugore uhetse umwana arimo kuvoma amazi bigaragara ko akeneye amaso yo gukoresha ndetse no koza ibikoresho bigiye bitandukanye. Hirya ye hari ishyamba rinini ubona ko ari ryiza.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'ubururu, baje kuvoma amazi kugira ngo babone amasuku kandi agezweho.

Umwana w'umukobwa wikoreye ijerekani ku mutwe wambaye umupira ujya gusa ibara ry'umutuku, hirya ye hari umusaza wambaye umupira w'ubururu urimo araseka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi, bafite amajerekani atatu yiganjemo ibara ry'umuhondo n'umweru, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bahuriye mu nyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'icyatsi aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'uburyo bazishyira mu bikorwa.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, bahuriye kwa muganga kugira ngo basuzumwe indwara bafite, banafatirwe ibizami ndetse bahabwe n'ubufasha.

Icyumba kinini cyahuriyemo abayobozi batandukanye cyiganjemo amabara y'ubururu, umukara, n'umweru. aho biga ku bibazo bitandukanye nuburyo byashakirwa ibisubizo.

Icyumba cyahuriwemo n'abayobozi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umukara ndetse n'umutuku, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zifitiye igihugu akamaro.

Urujya n' uruza rw' abaganga baturutse mu bice bitandukanye, aho bahuriye hamwe kugira ngo bige ku ngamba zifatwa, ndetse biririnde indwara zandura n’ izitandura.

Icyumba kinini cyateraniyemo abagore babiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umukara, bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini yahuriyemo abayobozi batandukanye, biganjemo abaganga ndetse n'ababikira, bicaye imbere y'ameza manini, ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abarwayi bahuriye kwa muganga, aho abaganga bambaye imyenda higanjemo amabara y'ubururu, ndetse n' ingofero zabugenewe babafasha kandi bakabaha imiti myiza yabugenewe.

Umugabo urimo gukarabya abana bane kugira ngo abashe kubaha ibiryo bafite isuku kandi babirye bishimye banezerewe, bityo bikabafasha kwirinda indwara zituruka ku mwanda.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ibya siporo, ubucuruzi n'inama zitandukanye zihuza abayobozi kugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda ndetse no gukoresha amazi adasukuye.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku, n'ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, urimo kunywa amazi ku iriba yishimye kandi anezerewe bityo bikamufasha kugira umutima mwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'ubururu, aba bantu bahuriye imbere y'inyubako nini irimo amabara y'umweru n'umuhondo.

Icyumba kinini giteraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga, aho bavurirwa bagahabwa serivisi nziza ndetse bakanasuzumwa indwara bafite, kugira ngo bahabwe imiti ibafasha bageze mu rugo.

Abakobwa babiri baje kuvoma amazi ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, umutuku ndetse bafite n'indobo irimo amazi menshi.

Urujya n'uruza rw'abana bavuye mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi bafite utujerekani duto, kandi ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kongera iminsi yo kubaho.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'umutuku aho bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu bitaro baje gusaba serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku, umweru, ubururu n'icyatsi.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu. Aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abana baje kuvoma amazi kugira ngo bayifashishe mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse babashe gusukura ibikoresho bimwe na bimwe bafure n'imyenda yabo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda ndetse n'izindi zitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, urimo gukaraba amazi meza asukuye n'isabune kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda n'izindi zose zituma umuntu arwara.

Urujya n'uruza rw'abana bavuye kuvoma amazi, aho bahurira ndetse bakaganira kugira ngo bishime kandi banezerwe.

Inyubako nini yateraniyemo abagore baturutse mu bice bitandukanye bazanye abana babo ku ivuriro kugira ngo babapimishe ndetse banabasuzumishe indwara bafite.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, barimo baravoma amazi ku iriba bakoresheje intoki kugira ngo babone ayo kunywa.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi, bafite amajerekani y'umuhondo ndetse n'ibitenge birimo amabara y'umutuku, ubururu n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino biganjemo abanyeshuri bo mu mashuri abanza aho batumiwe kugira ngo bagirwe inama ndetse bigishwe indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.

Inyubako nini ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye, higanjemo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ni inyubako nziza ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, ndetse n'ubucuruzi.

Umwana uhagaze mu mugezi ufite ijerekani avoma amazi wambaye imyenda y'umuhondo n'amabara y'umukara ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ikanzu y'ubururu, uhagaze iruhande rw'iriba, ubona ko arimo kunywa amazi meza kandi asukuye.

Icyumba kinini kirimo abana bambaye imyenda y'icyatsi, ubururu n'umukara, bari mu nyubako nini yiganjemo amabara atandukanye y'umweru bicaye iruhande rw'ameza manini.

Umwana urimo kunywa amazi ku iriba akoresheje intoki, iruhande rwe hahagaze abagabo babiri n'umugore umwe, ubona ko bategereje ko asoza kuyanywa maze bakavoma.

Umugore wambaye ingofero n'imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, urimo gukaraba ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umukara n'ubururu, barimo guterura imifuka y'umuceri bayihereza umusaza ubari iruhande.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, uri kwita ku mwana uteruwe n'umubyeyi, ubona ko amwishimiye kandi yamukunze, bityo bigatuma bimuha akanyamuneza mu maso.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu duce dutandukanye higanjemo abagabo, abagore, n'abasaza bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umuhondo, umweru n'ubururu.

Icyumba cyateraniyemo ababyeyi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, icyatsi, n'ubururu aho bateruye uruhinja rukivuka.

Umukobwa wicaye ku iriba urimo kuvoma amazi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umukara ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'ubururu, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba bavuye mu bice bitandukanye, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma harimo indobo ndetse n'utujerekani dutoya.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu, umweru, n'umuhondo barimo kuganira ndetse bungurana ibitekerezo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini. Imbere yabo hari abantu bane bari kubagezaho ubutumwa babateguriye, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umukara ndetse n'inkweto nziza.

Icyumba kinini kirimo abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, aho bita ku bana babagaburira ndetse babaha n'ibyo kunywa.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki uhagaze imbere y'abaturage, abagezaho imbwirwaruhame ndetse ubona ko yishimye anezerewe bityo bikamufasha gutanga ubutumwa bwiza.

Inyubako nini isakaje amabati atukura isize amarangi y'umuhondo, iruhande rwayo hahagaze abagore n'abasore barimo kubyina bishimira ibyo bagezeho.

Umunyeshuri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umuhondo, wishimye ndetse ubona ko anezerewe hakurya yahagaze abana barimo bamwitegereza.

Umwana wambaye ikanzu ari kuvoma amazi iruhande rwe hateretse ijerekani y'umuhondo. Ni iriba ubona ko ririho amazi meza kandi aya mazi arasukuye.

Umwana wambaye umupira utukura n'ipantaro y'ubururu, ufite igikombe arimo kuvomesha ku iriba kugira ngo abone amazi meza yo kunywa.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo n'abasore, aho bahabwa serivisi nziza ndetse bagataha bishimye.

Agatanda gashyirwaho amasahani kariho ibyombo byiganjemo iby'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, aka gatanda gakozwe mu biti.

Umwana wambaye umwenda w'umweru , urimo gufashwa n'umuganga, amutera urushinge ku kaboko, kugira ngo amukingire indwara zitandukanye, ndetse agire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu aho bafashwa ndetse bakanahabwa inama y'uburyo bakwiye kwitwara ndetse no kurwanya imirire mibi.

Ihuriro ry'abaganga b'inzobere mubi bijyanye n'ubuvuzi bw'amaso bahagarariwe n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru n'indorerwamo z'amaso bahuriye ahantu ubona ko bishimye.

Icyumba cyateraniyemo abaganga ndetse n'abarwayi aho bitabwaho ndetse bagahabwa n'ubujyanama ku ndwara basanganwe, hafatwa ingamba zo kwirinda ndetse no gukumira indwara za hato na hato.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umukara ubururu aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'uburyo bashyira mu bikorwa imwe mu myanzuro yafashwe.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi kugira ngo bagire ubuzima bwiza hibandwa kwirinda gukoresha ibikoresho bitogeje kandi bidafite isuku.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi bakomeye kugira ngo bige ku bibazo bijyanye n'iterambere n'uburyo bafata ingamba zo kurwanya ubukene hibandwa ku mibereho y'abaturage.

Icyumba kinini cyahuriyemo abanyeshuri baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho baganira ku nsanganyamatsiko yo kubaka igihugu kandi bishimye banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana, abagore ndetse n'abasore, aho umuganga abitaho ndetse akabaha ubufasha.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y’umukara n'umweru ufite amazi mu ntoki, arimo gukaraba iruhande rwe hateretse ibasi n'indobo by'icyatsi ubona ko yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku, umweru, umukara, bahuriye mu nyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako nini iteraniyemo abagore barimo kubyina, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku, ubururu n'icyatsi, ubona ko babyina neza kandi babishoboye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku ndetse n'umukara, bafite amajerekani manini kandi meza atwara amazi menshi.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu bice bitandukanye biganjemo abaganga ndetse n'abarwayi, aho bahabwa serivisi nziza kandi inoze bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho bahuriye ku iriba ririho amazi meza, bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ikigina kandi ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu mirimo yo guterura imitwaro, higanjemo abagore bafite imyenda irimo amabara y'umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo n'ubururu, aho biga ku bibazo biri muri sosiyete n'uburyo byakumirwa.

Inyubako nini ikoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, ni ahantu ubona ko ari hanini kandi hafitiye igihugu akamaro, kuko haberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abaganga n'abarwayi, baje gushaka serivisi zbuvuzi kugira ngo basuzumwe indwara bafite bityo bahabwe imiti ndetse bakire.

Urujya n'uruza rw'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye amakoti meza y'umweru n'umukara, ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, witeze igitambaro mu mutwe, urimo gufashwa n'abaganga ndetse agahabwa n'ubujyanama ku bijyanye n'indwara afite.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru uri ku ifoto, ni umugabo ubona ko akora ibikorwa bitandukanye bya leta, ndetse afite inshingano zikomeye.

Umubyeyi utereye umwana urimo kwitabwaho n' umuganga kugira ngo agire ubuzima bwiza, kandi akagirwa n' inama y' uburyo yakwirinda kumuraza m’ imbeho no kumurinda umwuka uva hanze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore abagabo ndetse n'abakecuru, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru ,umutuku ,icyatsi n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye mugace kamwe, kugirango bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye, bambaye imyenda yiganjyemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo aravoma amazi ku iriba ryabugenewe kugira ngo ayakoreshe mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bagenda mu nzira, aho iruhande rwabo hari umuntu ubapima icyorezo cya corona virus kugira ngo babashe kwinjira ahantu hateraniye abantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho bahurira hamwe ndetse bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, harebwa icyakorwa ndetse n'uburyo bahuriza hamwe imbaraga.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore babiri n'umugabo umwe, bateruye imifuka y'umuceri, akawunga, ndetse n'iyindi igiye itandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino. Bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, ubururu n'icyatsi. Bari mu mashyirahamwe ndetse biga ku bibazo bitandukanye.

Inyubako nini yahuriwemo n'bana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bicaye ku musambi ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kubaho neza banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyambaro ifite amabara yiganjemo umutuku, umweru, umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi, aho biga ndetse bakanareba ku nsanganya matsiko zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi uteruye umwana urimo kwitabwaho n'umuganga kugira ngo amuvure ndetse amusuzume indwara afite bityo bimufashe gukira.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi, aho bahuriye mu nyubako nini biga ku bibazo bitandukanye biri muri sosiyete ndetse banashaka ibisubizo byabyo.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse n'ubuvuzi higanjemo ibikoresho by'umukara, umweru iruhande rwayo hateretse mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kwiga ku kibazo cy'indwara zandura, aho bafata ingamba zitandukanye ku buryo bakwirinda ndetse bakazikumira.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, bicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo. Bari mu cyumba kinini kigaragaramo abasore benshi.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse hirya no hino mu gihugu bambaye imyenda igaragaramo amabara y'umukara, umuhondo, umweru n'ubururu ubona ko bishimye.

Umubyeyi uhetse umwana, uri guteka ndetse ubona ko yicaye ku ntebe y'urubaho, iruhande rwe hahagaze undi mwana, wambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura y'umutuku.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, cyane cyane ubwo mu mutwe, kugira ngote ku barwayi ndetse banabafashe, babashe kugira ubuzima bwiza, kandi basubire mu muryango nyarwanda bameze neza.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abantu baturutse mubi bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, ubururu n'umuhondo, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini irimo abagabo n'abagore yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, imbere hari umugore uri gutanga imbwirwaruhame ndetse n'ubutumwa yabageneye uyu munsi.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, utetse mu isafuriya nini kandi ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe, baje kwiga ku kibazo kijyanye n'ubushomeri, bityo bagafata ingamba zirimo kwihangira imirimo, ndetse no gukura amaboko mu mifuka.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo, bari mu cyumba kinini kirimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi, ubururu n'umuhondo wicaye ku ntebe ndetse ubona ko yishimye.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, uteruye abana babiri bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'umukara bicaye ku musambi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abasore n'inkumi aho bahuriye mu nzu nini isakaje shitingi.

Umugabo wambaye imyenda yacitse, afite amacupa y'amazi mu ntoki, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi asa nabi cyane kuko adaheruka koga.

urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umukara, aho bahurira bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse hirya no hino bicaye ku ntebe zegamirwa. Bariguhabwa amabwiriza ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'indwara zandura.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso ufite imisatsi myinshi wambaye umwenda wiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu uhagaze iruhande rw'inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, uri mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi, afite ibicuruzwa by'amoko atandukanye abakiriya bakenera.

Icyumba kinini kirimo umugore n'umugabo, bicaye ku ntebe nziza, iruhande rwabo hari ameza arambitseho igitambaro cy'umweru ndetse n'umuhondo, kiriho icupa rinini ririmo amazi.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umukara, wicaye mu nzu nini, ubona ko ategereje umuntu umufasha, kandi akabyishimira.

Ihuriro ry'abantu bavuye mu bice bitandukanye by'isi, biganjemo abagabo, abagore, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara, ubururu n'icyatsi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku, wicaye inyuma y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, birimo iby'ubucuruzi, ubuvuzi n'ibindi.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umukara, umwe n'umutuku ni abantu ubona ko ari benshi kandi bahuriye mu nyubako nini.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku ndetse n'umukara, hari umugore wambaye amarinete ndetse ari kureba imbere.

Umugore uteruye umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu ni'icyatsi. Ubona ko bahagaze kandi bategereje imirimo bakora kugira ngo babone amafaranga.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu duce dutandukanye, biganjemo abagabo n'abasore, ubona ko bishimye kandi banezerewe, bityo bikabafasha kubaho badashyamirana.

Inyubako nini irimo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye harimo iz'ubuvuzi, iza poritiki ndetse n'iziterambere.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ahantu hamwe, bambaye imyenda y'icyatsi umweru n'umutuku, aba bana biragaragara ko bishimye kandi banezerewe, bitewe n'ubufasha bwiza bahawe bikaba byabashimishije.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga aho agenda amubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima, kugira ngo abone uko amusuzuma indwara zitandukanye ndetse amuhe ubufasha n'imiti.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, wambaye ishati yiganjemo amabara y'ubururu, uri inyuma y'igiti kinini kandi gitoshye, iruhande rwe hari abagabo benshi, ubona ko bishimye.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'umutuku bari mucyumba kinini ubona ko gikorerwamo inama zitandukanye.

Umukecuru wicaye mukibuga cy'umupira wambaye imyenda myinshi kandi yacitse, ubona ko ababaye kandi afite ikibazo, akeneye umuntu umufasha.

Icyumba kinini cyahuriyemo ababyeyi bateruye abana, babazanye kwa muganga kugira ngo basuzumwe ndetse bafashwe ku ndwara zitandukanye bafite.

Abana bambaye imyenda yiganjemo umweru n'icyatsi, bafite utujerekani dutoya mu ntoki. Biragaragara ko bagiye gushaka amazi, kuko bakeneye gufura imyenda bambaye.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu aho bahurira hamwe bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse bakanashaka ibisubizo by'ibibazo bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abantu bavuye mu bice bitandukanye bicaye ku ntebe barimo kuganira ndetse bajya inama ku bikorwa bitandukanye bateganya gukora kugira ngo biteze imbere.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye aho bahurira bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye mu cyumba kinini, kirimo intebe nziza kandi zigezweho, abasaza n'abakecuru bahagaze, kandi ubona bishimye.

Urujya n'uruza rw'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umukara, ubururu n'icyatsi aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zifitiye igihugu akamaro.

Itsinda ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umukara n'umweru, iruhande rwabo hari inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abayobozi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, n'uburyo zafasha abaturage.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'ubururu, ufite imisatsi myinshi wicaye mu ntebe nziza kandi ubona ko yishimye.

Imodoka nini iparitse mu kibuga yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu biganjemo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi.

Umupira w'umweru n'ubururu ubona ko ari mwiza uwo mupira ni uw'amaboko magufi kandi nta kora ufite umupira mwiza wifashishwa n'abantu mu gihe bari mu nama.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, yiganjemo ibikoresho bitandukanye; intebe, ameza, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa bwinshi, ufite akagozi gakoreshwa mu gusukura amenyo ubona ko abikora kandi abikunze bityo bikamufasha kwirinda indwara zituruka ku mwanda.

Umukobwa mwiza ufite uburoso mu ntoki ,wambaye igitenge ndetse ukenye ikindi mu mutwe, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi.

Abana biga mu mashuri abanza bafite uburoso na kologate mu ntoki, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse bicaye ku ntebe nziza zakene kwicarwaho barimo kwiga.

Umugabo uri gukoresha agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo, aho afite amenyo asa ibara ry'umweru kandi ubona ko ayagirira isuku bityo bikamufasha kwirinda indwara zituruka ku mwanda.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri itandukanye, cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gihe cyo gukora imyitozo, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagakora siporo kugira ngo barwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, harimo ameza ndetse n'intebe zigezweho, ibitanda ndetse n'ibindi.

Umusore ufite akadodo ari gukoresha agenda anyuza mu menyo kugira amaremo imyanda iba yasigayemo. Gukoresha uburoso gusa ntabwo biba bihagije.

Inyubako nini yahuriyemo abantu batandukanye yiganjemo ibikoresho birimo ameza, intebe, utubati ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, ameza ndetse n'umuhondo. Ni ahantu hanini ubona ko hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi aho abarwayi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bagahabwa serivisi nziza ndetse bagataha bishimye.

Umugabo ufite umusatsi muke n'ubwanwa bwinshi urimo guseka yambaye umupira w'umukara, iyo umuntu yishimye byongera icyizere cyo kubaho ndetse bikamunezeza.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo, uwo mwana ni umwana w'imibiri yombi, ubona ko muganga agenda areba mu menyo kugira ngo ayakure afite ibibazo, amazima ayareke.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'inkweto z'umukara ubona ko bahuriye hamwe kugirango bige kubibazo bitandukanye ndetse.

Icyumba cyateraniye mo abana barimo gusuzumwa ikibazo cy'amenyo bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse ubona ko bishimye.

Inyubako yahuriwemo n'abantu batandukanye, biganjemo abarezi ndetse nabayobozi b'ikigo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, icyatsi n'umweru.

Umusore ufite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa wambaye agapira k'umweru, ufite akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo kugira ngo agire isuku hirindwa indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo uri kumwe n'umwana, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, bafite imisatsi myinshi kandi barishimye, biragaragara ko bari gusukura amenyo, bakoresheje akadodo.

Umusore wambaye ikoti ry'ubururu n'umupira w'umukara, ufite ubwanwa bwinshi ndetse n'umusatsi muke, biragaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abana bato bambaye imyenda y'umuhondo n'umweru ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi n'umwana we bafite imisatsi myinshi, ubona ko baganira ndetse bungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye biganjemo abaganga iruhande rwabo hari abaturage bafite indwara zitandukanye bakeneye abantu babitaho kandi babafasha.

Icyumba kinini kirimo umusore ufite ubwanwa bwinshi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umwana mutoya ufite ikibazo cy'amenyo, aho yitabwaho n'umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, akamugira inama ndetse n'ubufasha ku bijyanye n'uburyo yirinda.

Inyubako nini yateraniyemo abantu batandukanye bambaye imyenda y'umweru, bafite imisatsi myinshi barishimye kandi baranezerewe bityo bigatuma babaho neza.

inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho abantu hatandukanye baza bagahabwa serivisi nziza.

Umusore uri gukoresha akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo, afite imisatsi myinshi ndetse yambaye n'agapira kiganjemo ibara ry'umweru.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi ndetse n'abana bashaka serivisi z’ubuvuzi, kugira ngo abaganga babafashe kandi babasuzume indwara bagaragaje, bityo bikabafasha gukira.

Umuganga urimo gufasha umurwayi ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo aho amwereka ndetse amugaragariza ikibazo afite kugira ngo abashe kwirinda ndetse ajye akoresha uburyo yahawe na muganga kugira ngo ikibazo cy'amenyo gikemuke kandi atahe yishimye anezerewe kuburyo atazongera kugira iki kibazo.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu. Iruhande rwe hari umuganga, wambaye uturindantoki, uri kugenda amuvura indwara afite.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru, ufite agakoresho bakoresha basukura amenyo, kitwa akadodo. Iyo ukoresheje uburoso gusa, ntabwo uba umazemo imyanda yose. Ni byiza rero no gukoresha akadodo.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso , ufite ubwanwa bwinshi, wambaye imyenda yiganjemo amabara yumweru, ubona yishimye kandi anezerewe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha abaturage kwiteza imbere bityo bikabaha amahirwe yo kubona amafaranga.

Icyumba kinini kirimo abaganga babiri umugore n'umugabo, bambaye impuzankano y'ibara ry'umukara ndetse n'ingofero z'ubururu, aho bategura imiti yo kugeza ku barwayi kugirango babavure kandi bakire.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye isengeri y'umweru, ufite uburoso busukura amenyo mu ntoki ubona ko abukoresha neza kandi yirinda indwara zituruka ku mwanda.

Abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu n'umweru, bafite uburoso bukoreshwa mu gusukura amenyo, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abahinzi batandukanye bahuriye hamwe kugirango bafatanye mu bikorwa bijyanye n'ubuhinzi harimo: ibigori, urutoki, imyumbati, insina, ibijumba ndetse n'ibindi.

Umubyeyi uri kumwe n'umukobwa we bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, n'umweru bishimye kandi banezerewe bari mu nzu nini kandi isa neza.

Umugore ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda y'umukara n'umweru n'ubururu, wavuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko ashaka kugabanya umubyibuho ukabije.

Abakobwa babiri bambaye imyenda y'imikara ndetse n'umweru, umwe yambaye akantu mu mutwe gasa ibara ry'umutuku, ubona ko bagenda mu muhanda baganira bishimye.

Icyumba kinini kirimo umukecuru wambaye umupira w'umweru, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru ufite imisatsi myinshi kandi yishimye.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu n'umukobwa wambaye imyenda y'imikara arimo kumusindagiza amumanura kugira ngo amumenyereze abashe kugenda kuko yari yaravunitse.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umukara ufite imisatsi myinshi kandi yiganjemo amabara y'umweru, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umugore uri mu nyubako nini urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'iroza, aho ubona yishimye kandi anezerewe.

Umugabo wambaye ikoti ry'umweru n'umukara ufite igikoresho cy'icyuma mu ntoki iruhande rwe hagaze umukobwa mwiza ufite igikapu mu ntoki ubona ko bari ku rugendo kandi bishimye.

Inyubako nini irimo abantu baturutse hirya no hino, higanjemo abasaza n'abakecuru, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu n'icyatsi.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso n'myenda yiganjemo amabara y'umuhondo ubururu iruhande rwe hicaye umwana wishimye, kandi ubona ko anezerewe kandi ufite imisatsi myinshi.

Icyumba kirimo umusaza n'umukecuru, bari kunywa imiti, iyi miti bigaragara ko ari ibinini bahawe ndetse bandikiwe na muganga kugira ngo bayifate neza.

Inyubako nini yateraniyemo abantu batandukanye, biganjemo umukecuru n'umusaza, barimo gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, bari mu cyumba kinini, kandi ubona ko bishimye, kandi banezerewe.

Abakecuru babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'umuhondo ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, ubona ko barimo kubyina bishimye ndetse bizihiza umunsi mukuru wabateranirije hamwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abagabo babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, bafite icupa ry'amazi mu ntoki, barimo kugenda basomaho.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, umuhondo n'umutuku barimo gutegura amafunguro kandi bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko bambaye imyenda yiganjemo umuhondo umweru n'umukara aho bagura ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo intoryi inyanya n'ibindi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, arimo aramusindagiza kugira ngo amumenyereze kugenda maze abashe gukira vuba.

Ihuriro ry'ababyeyi bicaye mu nyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru n'umukara, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye zibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Umusaza uteruwe n'abantu babiri, harimo umugabo n'umugore, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Icyumba kinini cyateraniyemo umusaza n'umukecuru bafite impapuro mu ntoki bari mu nzu nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'buvuzi ndetse n'ubucuruzi mpuzamahanga.

Umusaza uri kwa muganga uri kumwe n'umuganga uri kumufasha muburwayi bwe, yambaye indorerwamo z'amaso ndetse muri iyo nyubako harimo amabara y'ubururu n'umweru hamwe n'amabara y'umukara.

Inyubako nini yateraniyemo abantu batandukanye, abarwayi n'abaganga, aho bahabwa serivisi nziza, bagataha bishimye kandi bafite akanyamuneza mu maso.

Icyumba kinini kirimo umusaza wambaye ikoti ryiza ry'umweru n'ishati yicyatsi, ufite ikaramu arimo arandika ku rupapuro ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uvuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko anezerewe kandi afite akanyamuneza.

Urujya n'uruza rw'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo abagore, ubona ko bambaye imyenda y'umukara, umweru n'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo umukecuru wambaye ishati y'umuhondo, yambaye n'indorerwamo z'amaso ubona ko ari kunywa imiti kugirango akire kandi agire ubuzima bwiza.

urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo inyanya, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye aho abaturage bava mu bice hirya no hino bakaza kugura ibyo badafite.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi, wambaye indorerwamo z'amaso n'imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu n'umukara, aho arimo gufashwa kandi agahabwa n'ubujyanama ku ndwara bamusanganye.

Icyumba cyahuriyemo umubyeyi n'umwana we bafite imisatsi myinshi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ubona ko bafite intego nyamukuru yabahurije hamwe.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kwaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo ubuvuzi bw'ubwonko, ubw'umutima ndetse n'impyiko.

Umugabo uri kumwe n'umusaza wambaye ingofero. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara n'umweru. Bari kugenda mu muhanda baganira ndetse bungurana ibitekerezo.

Abagore benshi bavuye mu myitozo ngororamubiri bambaye imipira yiganjemo amabara y'umweru bafite udukoresho mu ntoki bifashisha imyitozo ngororamubiri kandi bakagira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, uri kumwe n'umukecuru wambaye imyenda y'umweru, ubona ko arimo guhabwa ubuvuzi kandi agataha yishimye.

Umusaza uteruye umwana aho amureba mu maso ndetse bakina bishimye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Umugabo n'umugore, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, umukara n'ubururu, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kirimo umurwayi wambaye imyenda y'umweru, iruhande rwe hari igikoresho cyifashishwa n'abaganga kugira bapime indwara afite bityo ahabwe ubufasha bwihuse.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana. Bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye zirimo kwirinda indwara ndetse no kubungabunga ibidukikije.

Ihuriro ry'ababyeyi n'abana bishimiye ibikorwa bavuyemo kandi byiza bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu ndetse n'umukara n'andi mabara asa icyatsi.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara urimo kwitabwaho n'umuganga ubona ko afite akanyamuneza bitewe n'ibyo muganga amubwiye.

Ababyeyi batatu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo ndetse bafite imisatsi myinshi kandi myiza, bafite telefone mu ntoki.

Icyumba cyateraniyemo umuganga n'umurwayi, bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu n'umukara, bari mu cyumba kinini cyisanzuye gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara ndetse afite n'utundi dukoresho mu ntoki bakoresha bakora siporo.

Icyumba cyateraniyemo umusaza n'umukobwa, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, bari mu cyumba kinini kirimo ameza ndetse na mudasobwa, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo umusaza n'umukecuru baganira ndetse bungurana ibitekerezo kugira ngo bamere neza kandi bagire ubuzima bwiza bw'ejo hazaza.

Umuganga ufite imisatsi myinshi, urimo gukoresha imyitozo ngororamubiri umukecuru, kugira ngo yirinde umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zose ziva mu mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo umukecuru ufite imvi nyinshi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'umusore n'umukobwa bavuye muri siporo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara. Ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kugabanya indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusaza wambaye ishati y'umuhondo wambaye n'indorerwamo z'amaso, ubona ko arimo gusoma igitabo yifashisha ingero zitandukanye ndetse yishimye ubona ko anezerewe.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi baturutse hirya no hino n'abana babo, aho bahurira ahantu hamwe bakaganira ndetse bakungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abagore bicaye hamwe, ubona ko baganira ndetse bungurana ibitekerezo, iruhande rwabo hateretse ibikoresho byifashishwa mu budozi ndetse bibaha amafaranga.

Inyubako nini yateraniyemo umusaza n'umuganga, aho amwereka ndetse amusuzuma indwara afite kugira ngo abashe kumenya imiti amuha imufasha ageze mu rugo.

Icyumba kinini kirimo umugore n'umugabo bicaye ku buriri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye , biganjemo abasaza n'abakecuru , bambaye imyenda myiza irimo amabara y'umweru umukara , ubururu n'umuhondo.

Umukecuru ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru urimo kubwira abaturage ndetse abagezaho ijambo.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, mutuku, ubururu ndetse nicyatsi bafite inkoni mu ntoki.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo ufite isahani mu ntoki iriho ibiryo, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini kirimo umukecuru n'umwana we, barimo gukata imboga ndetse ubona ko bafite akanyamuneza ku maso, bishimye ndetse banezerewe.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'umurwayi w'umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, yicaye imbere y'ameza manini.

Icyumba kinini kirimo umusaza wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira w'umweru, iruhande rwe hateretse igikombe kirimo icyayi uri kumwe n'umwana barimo gusoma igitabo.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye muri siporo ubona ko bishimye kandi banezerewe iruhande rwabo hateye indabo nziza kandi za kijyambere.

Icyumba kinini kirimo umusaza ndetse n'umuganga, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku n'ayandi. Bari mu cyumba kinini ubona ko gikorerwamo ubuvuzi butandukanye.

Umubyeyi wambaye imyenda y'umuhondo, ndetse nindorerwamo z'amaso afite imisatsi myinshi, wicaye mun nzu nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'umweru, umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru, ubururu n'umukara, ubona ko bicaye hamwe kandi bishimye banezerewe.

Icyumba kinini cyahuriyemo umugabo n'umugore, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, bafite telefone nini nziza kandi igezweho yifashishwa mu bikorwa by'iterambere.

Icyumba kirimo umusaza n'umwana, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'ubururu. Umusaza afite akantu mu ntoki ari kugenda yigisha umwana.

Inyubako nini yahuriyemo umuganga n'umurwayi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'ubururu aho umuganga atanga serivise nziza kandi inoze.

Inyubako nini yahuriwemo n'abakecuru babiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara. Barimo gutegura ibyo guteka, ndetse ubona ko bishimye.

Umugabo wambaye inkweto ndetse n'amasogisi n'imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara iruhande rwe hahagaze umwana ubona ko bakina umupira ndetse bishimye.

Inyubako nini yicayemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, icyatsi n'umukara, bigaragara ko bishimye.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, iruhande rwabo hicaye umugabo wambaye ishati y'umweru nipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara, aho agira abana inama zizabafasha mu buzima bwabo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo ubucuruzi ubuvuzi, ndetse n'inama zihuriza hamwe abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo bagire bimwe bigaho kandi babishakire ibisubizo.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, aho biga ku bibazo bitandukanye ndetse n'uburyo byakemuka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje gusaba serivisi ndetse ubona ko bategereje umuntu ubafasha kandi bagataha bishimye banezerewe.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu, ndetse ufite imisatsi myinshi. Iruhande rwe hari amabara, yiganjemo umweru, umutuku, ndetse n'umukara.

Ihuriro ry'abantu baturuka mu bice bitandukanye bagahurira hamwe ndetse biga ku bibazo bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'umutuku.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bahuriye mu nyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amabara yu'mweru, umutuku, icyatsi n'umukara aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye kandi zingirakamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nzu nini yiganjemo urubyiruko, aho batora ababaye aba mbere ndetse bakabaha ibihembo bitandukanye, bijyanye n'insanganyamatsiko baganiriyeho.

Inyubako nini irimo abaganga bambaye imyenda y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu, barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso kugira ngo bongere ubucuti.

Abagabo babiri b'imibiri yombi; bambaye amakoti y'umukara ndetse ubona ko bicaye ahantu heza; biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye; zirimo izo kwiteza imbere ndetse n'iz'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abasore, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bari mu nyubako nini yiganjemo ibyumba byinshi, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umutuku, umweru n'umukara.

Icyumba kinini kirimo abayobozi ndetse n'abaganga bafasha abarwayi kugira ngo bakire indwara zitandukanye, bityo basubire mu muryango nyarwanda bafite ubuzima buzira umuze.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, afite imisatsi myinshi ubona ko yishimye kandi anezerewe, iruhande rwe handitse amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Icyumba kinini kirimo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'ayandi atandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo urubyiruko ndetse n'abana bato ubona ko bishimye kandi banezerewe, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zifitiye igihugu akamaro.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho abaganga babafasha ndetse bakabaha imiti itandukanye, ku buryo bayikoresha neza maze bagakira indwara bari barwaye.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abarwayi ubona ko bashaka serivisi yihuse kugira ngo babashe gukira vuba.

Ihuriro ry'ababyeyi batandukanye bahuriye ku ivuriro baje gupimisha abana babo indwara zitandukanye ndetse banahabwa ubujyanama ku buryo bakwita ku bana babo.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, aho biga ku bibazo bitandukanye ndetse bigashakirwa ibisubizo.

Urubyiruko rwaturutse mu bice bitandukanye rwambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, rwahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko igira iti;"Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda irinde virusi itera sida."

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'inkweto nziza, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zabahurije hamwe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'umweru, umukara n'ubururu, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Umubyeyi uhagaze imbere y'indangururamajwi, wambaye indorerwamo z'amaso n'imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, ubona ko arimo kugeza imbwirwaruhame ku baturage ndetse banafata ingamba zitandukanye.

Inyubako yahuriyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru ubonako biga ku bibazo bitandukanye ndetse biri muri sosiyete.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye, biga ku kibazo k'indwara y'igituntu, aho bagira abantu inama yo kwisuzumisha, kuko kivurwa kigakira.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'isi, aho bafatira hamwe ingamba zo kurwanya indwara zandura, kugira ngo zirandurwe, ndetse zidahitana ubuzima bw'abantu benshi.

Inyubako isize amabara y'umweru, umutuku n'ubururu, yahuriyemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kwaka serivisi y'ubuvuzi kandi inoze.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kugira ngo bite ku barwayi kandi babahindurire ubuzima bwabo bube bwiza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho bafashwa n'abaganga, ndetse bakabagira n'inama ku bijyanye n'uburyo bafata imiti.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibitanda, intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa na muganga kugira ngo atange serivisi nziza.

Umurwayi uryamye ku gitanda, iruhande rwe hahagaze abaganga barimo kumufasha kandi bamuha serivisi nziza bityo bikamufasha gukira byihuse.

Icyumba kinini kirimo amabara y'ubururu n'umweru, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, ni ahantu ubona ko ari hanini kandi ari heza hisanzuye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa kwa muganga kugira ngo ubuzima bw'abaturage bubashe kumera neza ndetse babone serivisi inoze.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye intebe, ameza ndetse n'ibindi. Aho abantu bahurira bavuye mu bice bitandukanye bakaganira bungurana n'ibitekerezo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwayo hari umugabo uhahagaze uri gukora amasuku.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ibya siporo iby'ubuvuzi n'ubucuruzi, aho abantu baturuka hirya no hino bakaza gushora imari ndetse bakeneye inyungu.

Iyumba kinini cyateraniyemo abarwayi barwaye indwara zitandukanye, biganjemo abasore ndetse n'abagabo, aho bafashwa n'abaganga ndetse n'imiti bakoresha bageze mu rugo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahurira bagahabwa ubufasha ndetse bagataha bakize.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, higanjemo intebe nziza ndetse n'ameza. Ni ahantu ubona ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira, bagafashwa ndetse bagahabwa n'ubujyanama, ku buryo bakwirinda indwara zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru. Aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bakivuza ndetse bagakora ibikorwa by'iterambere.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Yiganjemo amabara y’ umutuku, ubururu, umweru ndetse n’umukara. Aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by’igihugu bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umukara, iruhande rwayo hari imodoka ziparitse, zitwara abagenzi kugirango bagereyo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abarwayi, hibandwa ku ndwara bafite ndetse bakagirwa n'inama y'uburyo bakirinda.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imiti, aho abarwayi bahurira bagasaba serivise, bitewe n'ibimenyetso bagaragaje, bityo bagataha bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi irimo ibitanda ameza n'intebe bikoreshwa n'abarwayi bagiye kwa muganga kugira ngo bahabwe serivisi nziza.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo ubucuruzi ubuvuzi ndetse n'inama z'abayobozi, aho biga ku bintu bitandukanye kandi bifitiye igihugu akamaro.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye iteyeho amarangi y'umweru, ubururu n'umukara. Irimo ibikoresho bitandukanye ameza, utubati, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye kiganjemo amabara y'umweru n'umukara ni ahantu ubona ko ari hanini kandi ari heza hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi butandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ifite ibyumba byinshi, iruhande rwayo hari icyumba gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, harimo ubuvuzi bw'umutwe, ibiha n'umutima.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje ku bitaro bya Ruhengeri, ubona ko bishimye kandi banogewe na serivisi nziza bahawe n'abaganga.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho abaganga bafasha abarwayi ndetse bakanabaha imiti ibafasha mu gihe bageze mu rugo.

Inyubako nini ifite ibirahuri byiza ndetse isakaje amabati y'umukara iruhande rwayo hateye indabo n'ibyatsi bigezweho biyikikije kandi ari byiza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, higanjemo ibikoresho byifashishwa ndetse bigatanga umusaruro mu baturage ndetse n'abarwayi babikeneye, kugira ngo babone serivisi nziza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, higanjemo amabara y'umweru n'ubruru ndetse n'umutuku aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikikijwe n'indabo yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, ndetse n'umukara irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako nini ikikijwe n'uruzitiro runini, iruhande rwayo hateye ibiti, byifashishwa mu gukoramo intebe ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kinini kirimo igitanda cyiza kandi gisashe neza, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu baruhukira ndetse bagahabwa serivise nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku bitaro baje kwaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi; aho abarwayi baturuka mu bice byo hirya no hino kugira ngo bitabweho.

Inyubako nini ikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, isakaje amabati y'ubururu ndetse irimo n'amarangi meza kandi agezweho ubona ko ari meza.

Inyubako nini yubakishije amatafari ihiye yiganjemo amabara y'umuhondo umweru n'ubururu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru cyahuriweho n'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore, abagabo ndetse ubona ko baje kureba cyangwa gusaba serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi bitandukanye aho abantu bahurira bagahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'indwara bagaragaje.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo televiziyo, mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha abarwayi kugira ngo bamere neza.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyiganjemo ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'inama z'abayobozi baturutse mu bice, impande n'impande by'igihugu.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, cyiganjemo ibikoresho bitandukanye byo gusimbuka, guterura ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi busanzwe, aho abantu baturuka hirya no hino, bakaza guhabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara ikikijwe n'indabo nziza kandi zigezweho, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bakaza kuharuhukira.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo siporo ubucuruzi n'ubuvuzi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa ubufasha ndetse bagataha bishimye.

Icyumba kinini kiryamyemo umurwayi, aho ategereje umuganga umufasha, higanjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kugira ngo ubuzima bw'abarwayi butagira ikibazo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyiganjemo ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo batangewe serivisi nziza.

Ikigo kinini kigizwe n'inyubako ndende gisakaje amabati y'umweru n'ubururu, gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bakaza kugura ibyo badafite.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye hirya no hino bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari imodoka nziza kandi zigezweho zitwara abagenzi zikabageza mu rugo byihuse.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo iby'ubuvuzi aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza bagataha bishimye kandi banezerewe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwawo hari inyubako nini, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse n'ibiribwa by'amoko yose.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye higanjemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi. Ni ahantu heza kandi hanini hatangirwa serivise zigiye zitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'icyatsi iruhande rwayo haparitse imodoka nziza kandi zigezweho kugira ngo zitware abagenzi kandi zibafashe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, higanjemo amabara y'umuhondo, umutuku n'umweru, imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kugira ngo basuzume uburwayi umurwayi afite. Ni icyumba ubona ko kirimo igikoresho kinini, aho umurwayi bamucishamo mu cyuma, kugira ngo bamusuzume neza.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baje kwa muganga kwivuza indwara zitandukanye, bicaye ku ntebe maze bategereje umuntu ubafasha.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru, yubakishijeje ibirahuri byiza kandi bigezweho, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira, bagasaba serivise, kandi bakayihabwa.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri yiganjemo ibikoresho byifashishwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo birinde indwara zituruka k'umubyibuho ukabije.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yiganjemo amabara y'umweru umuhondo n'umukara. Imbere yaho hahagaze umukobwa ku rukuta, wambaye umupira w'umuhondo n'ijipo y'umutuku.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abasore, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, bigaragara ko bishimye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe, tereviziyo, mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo siporo n'ubucuruzi butandukanye, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bakaza guhabwa serivisi nziza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, ni inyubako nziza ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi mo imbere ndetse irimo amakaro meza kandi akomeye yubakanye ubuhanga.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku, irimo imitako itandukanye kandi ifite ibyumba byinshi cyane bikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi bw'amaso, giteyemo intebe nziza kandi kifashishwa n'abarwayi kugira ngo baruhuke maze bagere mu rugo amahoro.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo ibikoresho; nk'ameza, intebe, utubati, n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo ubuzima bw'abaturage bumere neza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku n'umweru ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi ndetse hagatangirwamo serivisi nziza zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu n'icyatsi n'umweru irimo ibyumba bitandukanye bikorerwamo serivisi kandi bigafashirizwamo abantu batandukanye.

Ikigo kinini gikikijwe n'indabyo nziza, ndetse n'ibiti cyiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umutuku gisakaje amabati meza kandi agezweho.

Icyumba kinini giteraniyemo abaganga ndetse n'abarwayi, bambaye imyenda yiganjemo ubururu n'icyatsi, ubona ko bafasha abarwayi, kandi bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye baza gusaba serivisi nziza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, harimo ubw'amaso, umutima ndetse n'ibihaha, ikikijwe n'indabo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, byiganjemo umuceri, kawunga, isukari, n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bava mu bice byo hirya no hino, bakaza kugura ibyo badafite.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ibya siporo, aho abantu baturuka hirya no hino bagahurira baje gukora siporo kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi bikikijwe n'ibiti binini ndetse n'indabo nziza, aho abarwayi baturuka mu bice bitandukanye by'Igihugu bahabwa serivisi nziza bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, harimo ubw'amaso, umutwe, umwijima ndetse n'ibihaha, aho abantu bahurira bagahabwa ubufasha.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo abasore, inkumi ndetse n'ibindi byiciro, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga aho abarwayi baturutse hirya no hino mu gihugu bafashwa kandi bagataha bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo umutuku n'ubururu, isakaje amabati atukura ikikijwe n'indabyo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ibya siporo ndetse n'ibindi nk'ubuvuzi, ubujyanama ku bijyanye no gukora siporo n'ibindi.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu irimo amabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ibyuma bizengurutse iyi nzu ndetse n'ibyatsi biyikikije.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi yiganjemo ibitanda, amashuka ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bafashe abarwayi.

Inyubako nini yiganjemo ibiti byinshi, isakaje amabati yiganjemo ibara ry'ubururu, ubona ko hakorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse hagatangirwamo na serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi yiganjemo amabara y'umukara, umweru. Yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye inzobereye mu buvuzi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku barwayi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo n'umukara ikoremo ibikorwa bitandukanye aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abantu baturuka mu bice impande n'impande bakaza kwaka serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo iby'ubucuruzi, ubuvuzi, yubakishijwe n'ibirahure byinshi, birimo amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda, ameza ndetse n'ibindi byinshi, aho abaganga bafasha abaturage ndetse bakabaha n'imiti.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari ibiti binini ndetse ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, n'ubuvuzi bifasha abaturage kubona serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, irimo ameza intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho abantu bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby' ubuvuzi ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha abaturage gutera imbere.

Inyubako nini ifite, ibirahuri by'umukara, iruhande rwayo hahagaze abagabo batatu, babona ko bakeneye serivisi kandi bashaka umuntu ubafasha.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, aho umukiriya yinjira bakamwakira ndetse bakamubaza ibyo akeneye kugira ngo babimugezeho byoroshye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ibya siporo, ubuvuzi n'ubucuruzi, aho abantu batandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza, bagataha bishimiye.

Ikigo kinini cyubatse neza kandi kirimo ibikoresho bitandukanye iruhande rwayo haparitse imodoka nziza irimo amabara y'umukarau umweru ndetse n'umuhondo itwara abagenzi kandi ikabagezayo vuba.

Icyumba kinini kirimo ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga, aho babapima ibiro ndetse bakabaha ibibafasha kongera ibiro kugira ngo bagabanye imirire mibi.

Inzu nini yiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, mu imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi by'amoko atandukanye, byiganjemo tereviziyo ndetse na za mudasobwa.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza intebe televiziyo mudasobwa n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, bityo bikabafasha kubaho neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi bw'amaso, umutima ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande bahurira, bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga harimo ibitanda, matela, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Inyubako zitandukanye zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, byiganjemo ibiribwa imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ibitaro bikuru bya kabgayi byiganjemo ibiti ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye bisakaje amabati y'ubururu aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bagahabwa serivisi nziza y'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye aribyo ubuvuzi, ubucuruzi, siporo n'ibindi; aho abantu baturuka hirya no hino bakaza kwaka serivisi.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ndetse n'ubuvuzi bw'indwara z'amoko atandukanye, harimo iz'umutima, ibihaha ndetse n'izindi ndwara zandura n'izitandura.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, byiganjemo ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abarwayi bahurira bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini yiganjemo amabara atukura ndetse n'umweru, yicayemo abagabo babiri. Umwe uhagaze yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, undi wicaye ubona ko yitegereza kandi arimo gushishoza kubyo yerekwa.

ikigo kinini cyahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye giteyemo ibiti byinshi ubona ko hasa neza kandi hafite isuku aho abantu bishimira kandi bagahurira baganira kugira ngo bagire iterambere rirambye.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ubw'imiti, imyambaro n'ibiribwa aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bakagura ibyo badafite.

Inyubako nini irimo amabara y'umweru, ubururu n'umuhondo, irimo intebe nziza kandi zigezweho, ni inzu nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye kandi byiza.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru iruhande rwe hari umurwayi wambaye ingofero y'umukara, ubona ko yitabwaho kandi ahabwa serivisi nziza bityo bikamufasha gukira vuba.

Ibiro by'akarere ka nyarugenge byubatse ahantu heza kandi hasukuye inyubako yaho irimo amabara yiganjemo umweru, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Icyumba kinini cyateraniyemo abarwayi n'abaganga, aho bafashwa ndetse bagahabwa imiti n'ubujyanama ku buryo bayikoresha, hirindwa ndetse hanakumirwa imikoreshereze yayo mibi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara ikorerwamo ibikorwa bitandukanye haba iby'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'inama zahuje abayobozi b'inzego zitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru irimo icyumba kinini cyakirirwamo abarwayi, aho bahurira bakitabwaho ndetse bagahabwa serivisi nziza bagataha bishimye.

Inyubako nini isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, yubakishije ibirahuri. Ni inyubako ubona ko ari nziza kandi ikeye, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi harimo amavuta ibyo kurya ndetse n'ibindi bicuruzwa byose byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga kugirango bavure abarwayi ndetse babashe gukira vuba.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye higanjemo amabara y'umweru, umuhondo ndetse iruhande rwayo hari ibyatsi bihateye cyangwa se ibiti birebire biri muri iki kigo.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umuhondo ndetse iruhande rwayo hateye ibiti binini bifasha kurinda ibidukikije ndetse bikanafasha kuzana umwuka mwiza.

Ikigonderabuzima cya tabagwe gikikijwe n'ibiti byiza ndetse n'uruzitiro rukozwe mu byuma, iruhande rwayo hari indi nyubako i isishye amabara y'ubururu n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, aho abayobozi bahurira ndetse n'abarwayi basuzuma ndetse bareba icyakorwa ku bijyanye n'uburwayi bafite.

Inyubako nini yiganjemo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa ndetse bikanakoreshwa mu iterambere.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi urimo kwitabwaho, kugira ngo asuzumwe ahabwe imiti ku bijyanye n'uburwayi bamusanganye maze atahe yishimye.

Icyumba kinini kirimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'umupira w'umuhondo, iruhande rwe hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bu ufite isaha ku kuboko kandi ubona ko yishimye.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abarwayi ndetse n'abandi baje kwaka serivisi zitandukanye, iz'ubuvuzi n'ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, ari kugenda amwitaho, iruhande rwabo handitse ijambo irembo, uyu murwayi afite ibibazo bitandukanye kuko bamwambitse agakoresho mu nkokora.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga ari byo televiziyo, imashini ndetse n'ibindi bitandukanye bifashishwa kugira ngo hatangwe serivise nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kwiga ku nsanganyamatsiko zirimo kwirinda indwara zandura, ndetse n'izitandura, kugira ngo zikumirwe kandi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu kigo kinini, kirimo amabara y'umuhondo, umweru n'umutuku, ni abantu ubona ko hahuriye ahantu, bavuye mu bice bitandukanye kandi bakeneye serivisi.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa kwa muganga. Kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abarwayi ndetse bufatwe neza kugira ngo butagira ikibazo.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi batandukanye, ubona ko bafasha abana ndetse babaha n'ibihembo, kuko bitwaye neza, kandi bikabafasha no kuzakomeza kwitwara neza no mu indi minsi iri imbere.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi yiganjemo ibyumba binini birimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku barwayi kandi babahe serivisi nziza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi zitandukanye ziganjemo iz'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira bagafashwa kandi bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo iby'ubuvuzi n'ubucuruzi, byiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Umuganga uri kumwe n'umugore uteruye umwana, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, uwo mubyeyi bigaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, ikikijwe n'ibiti byiza iruhande rwayo haparitse imodoka nini kandi zifashishwa mu gutwara abantu bakagerayo amahoro.

Ikigo kinini kirimo ibiti, ibyatsi ndetse harimo n'inzu nini zisakaje amabati y'umukara ndetse n'umutuku n'ubururu ubona ko hakorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, harimo ubuvuzi bw'amaso, umutima, ubwonko, ibihaha ndetse n'impyiko, aho abantu baturuka mu bice byo hirya no hino bakaza kwaka serivisi nziza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu, isakaje amabati meza agezweho. Iruhande rwayo hahagaze umugore uhetse umwana, ubona ko ategereje umuntu umufasha.

Iduka rinini rikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, bifitiye abaturage akamaro bityo bikabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Umukecuru wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ubururu n'ingofero y'umukara, urimo kwitabwaho n'umuganga kugira ngo amusuzume ndetse arebe indwara afite.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abakobwa, abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi n'umukara.

Abaganga bambaye imyenda y'umweru, bari mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abarwayi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza, ni ahantu heza hakorerwa ibikorwa bitandukanye kandi bifitiye Igihugu akamaro.

Inyubako nini isize amabara y'umweru ndetse irimo ibirahure bigiye biyubakishijeho, hari ahantu hari ibiti byinshi mu mpande yayo ubona ko biyifitiye akamaro kuko biyirinda umuyaga.

Inyubako nini irimo ibikoresho byo mu nzu, byiganjemo intebe, ameza, ndetse n'imitako. Aho abashyitsi bicara bakumva bishimye kandi banyuzwe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byaba iby'ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi, aho abantu bahurira, bakaza kwaka serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, isakaje amabati y'ubururu, aho urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bavurirwa ndetse bagahabwa serivisi nziza.

Umugabo wambaye ishati yumutuku, wicaye mucyumba iruhande rwe hari intebe, ndetse na mudasobwa ubona ko areba indirimbo kandi yishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza bityo bigatuma basubirayo bishimye.

Icyumba kirimo umurwayi wambaye umupira w'umukara n'umweru ndetse n'umuganga umuri iruhande uri kugenda amufasha. Ni icyumba ubona ko gikorerwamo ubuvuzi bugiye butandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ufite icupa ry'amazi arimo kunywa ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ufite mudasobwa imbere ye aho agenda arebamo raporo zakozwe akagenda yuzuzamo imiti ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi bitandukanye, aho abantu bahurira bakavurwa ndetse bagahabwa serivisi nziza.

Umusore wambaye imyenda y'umweru, n'ikabutura y'umukara, uvuye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo yirinde, ndetse arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini irimo umuganga ndetse n'umurwayi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ndetse ubona ko bafite intego nyamukuru yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, yiganjemo umugabo, abagore ndetse n'abandi benshi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye mu bikorwa bijyanye n'imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara uri mu myitozo ngororamubiri mu nzu nini yiganjemo amabara y'umweru n'umutuku wishimye kandi arwanya indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo umusore wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, urimo gutozwa n'umugabo umuhagaze iruhande kugira ngo abikore neza.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugirango abanze yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukinnyi ugize ikibazo mu kibuga, wambaye ingofero zabugenewe zifashishwa n'abakinnyi mu gihe bari mu kibuga, ndetse bikabafasha kugira ngo batagira ikibazo cyangwa bagakomereka.

Icyumba kinini cyahuriyemo n'abantu batandukanye baje mu myitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa byiganjemo ibyo guterura ibyo gusimbuka n'ibindi.

Ihuriro ry'abantu baturutse impande n'impande bahuriye ku ivuriro kugira ngo bavurwe indwara zitandukanye, harimo iz'umutima ibihaha ndetse n'izindi zituruka ku mwanda ndetse no ku mubyibuho ukabije.

Umugabo n'umugore bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ubona ko bavuye mu myitozo bishimye ndetse banezerewe.

Umugabo uri kwitabwaho na muganga, amuvura indwara zitandukanye. Bigaragara ko afite ikibazo cyo ku kaboko yavunitse, akeneye ubufasha bwihuse kandi bw'ibanze.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu gusuzuma abarwayi, kirimo amabara y'umweru, ubururu n'umuhondo ndetse kigaragara nk'aho ari cyiza kandi ari gishyashya.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, uri mu cyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore wambaye umupira w'ubururu urimo kunywa amazi, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri kugirango agire ubuzima buzira umuze kandi siporo ni ingirakamaro.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'inkweto z'umweru, uvuye mu myitozo ngorora mubiri kugirango agabanye umubyibuho ukabije kandi agire ubuzima bwiza.

Inyubako nini yateraniyemo abantu barwaye indwara zitandukanye, biganjemo abakobwa, abasore ndetse n'abana bato, ubona ko bafite ibibazo bitandukanye kandi bikenewe kwitabwaho.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abakinnyi b'umupira, bambaye imyenda y'umweru, ubururu, icyatsi, umutuku n'umukara, aho bahurira bagakina umupira.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, byiganjemo amavuta, amazi ndetse n'ibindi, aho abakiriya baturutse mu bice bitandukanye bahurirwa bagahabwa serivise nziza.

Urutonde ruriho imyitozo ngororamubiri n'uburyo ikorwa, harimo gukina umupira ndetse n'indi mikino itandukanye yifashishwa kugira ngo hirindwe cyangwa hakumirwe indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana, bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku n'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo umurwayi ufite ikibazo ku kaguru, aho yitabwaho n'umuganga, akamuha imiti ndetse n'ubujyanama ku buryo yakoresha imiti myiza.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo icyatsi umweru n'ubururu, iyo ukoze siporo bituma ugira ubuzima bwiza kandi bikakurindanda n'indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda yimikara wicaye ku buriri ubona ko arimo kwinanura, arimo akora imyitozo ngororamubiri kugirango agire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo abaganga bari kuvura umurwayi uryamye ku ishuka irimo amabara y'umukara, bari mu cyumba kinini ubona ko cyiganjemo abantu bambaye imyenda y'imyeru n'ubururu.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku, ndetse n'inkweto nziza bari mucyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ufite akantu afatishije mu nkokora kugira ngo agabanye uburibwe kuko asa nkaho yavunitse.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru, kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije n'izindi zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga kugirango basuzume neza abarwayi, indwara bafite n'uburyo zakwirindwa.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko yambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'inkweto zitukura, umukobwa ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga harimo intebe, ameza n'ibitanda byiza bifasha abarwayi kumva bamerewe neza.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru, wambaye inkweto zikoreshwa mu myitozo ndetse ubona ko yishimye. Ndetse ashaka kugabanya ibinure ndetse akirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore wambaye ikabutura y'umweru n'umutuku uryamye ku gitanda ari gukorerwa masaje ni umusore mwiza ubona ko afite imbaraga kandi ari kwirinda indwara zitandukanye akora siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umutuku ,ari ahantu hanini kandi hisanzuye ubona ko ari heza kandi hakeye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, higanjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu, ndetse n'andi atandukanye.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, aho yitabwaho ndetse agahabwa n'imiti kugira ngo asuzumwe ndetse ahabwe n'ubujyanama ku ndwara yagaragaje.

umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo umweru, n'isaha ku kaboko ubona ko yishimye kandi anezerewe, bityo bikamufasha gukumira indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri, ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi, ku ruhande rw'iburyo harimo ndetse n'amagambo yanditsemo agaragara mu mabara y'umukara.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, uri kwita ku murwayi ndetse amugira inama y'uburyo yakoresha ubuzima bwe akora imyitozo, ndetse yirinda n'indwara ziteruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, mu nyubako nini yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arwanye indwara zituruka ku mwanda, ndetse no ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi, aho asuzumwa ndetse agahabwa imiti n'ubujyanama bw'uko azajya akoresha imiti, kugira ngo akire vuba.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara urimo kunywa amazi, avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zose zituruka ku mubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu barimo gukora imyitozo ngororamubiri biganjemo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abasaza.

Umugore wambaye umupira w'umukara urimo kuvura umurwayi umuhagaze iruhande, hirya yabo hari ikibuga kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri y'abantu baturutse hirya no hino.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ufite imisatsi myinshi ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru, ari ahantu heza ubona ko hakorerwa siporo kandi abantu bahurira ari benshi cyane.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo n'abagore bavuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo umusore wambaye imyenda myiza ndetse n'inkweto, urimo kwiruka kandi agerageza kugabanya ibiro.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara uri mu myitozo ngororamubiri wicaye ku gikoresho cyifashishwa mu gukora siporo, ubona ko yishimye kandi arimo kurwanya indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi, kugira ngo bahabwe serivisi nziza bityo bikabafasha gukira vuba, ubona ko ari byiza kandi bigezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ibya siporo n'imyitozo ngororamubiri, irimo umugabo wambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore n'abakobwa bafite mudasobwa imbere yabo ubona ko bishimye.

Umugabo ufite umupira mu ntoki wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri kugirango ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara umanitse amaboko asa nkaho ari mu myitozo ngororamubiri ni umukobwa ubona ko ari inzobe kandi ikeye.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umweru, ugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije, bityo bigatuma amera neza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagasuzumwa bagahabwa imiti n'ubujyanama ku buryo bakoresha imiti.

Abantu bane barimo kwiruka bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda y'umweru, ubururu, umukara n'umuhondo, bigaragara ko baturutse ahantu kure.

Umukobwa wambaye isengeri y'umuhondo n'isaha ku kuboko, uvuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umuganga urimo kwita ku murwayi umugira inama y'ibyo yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza yirinda umubyibuho ukabije kugira ngo abashe kubaho neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku umweru umuhondo ubona ko harimo uwavunitse ujyanywe kwa muganga.

Icyumba kinini kirimo imiti igiye itandukanye yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, n'ubururu. Ni imiti ubona ko ifite uburambe kandi ivura abantu bagashyira...

Umugabo wambaye umwenda wiganjemo amabara y'umukara n'umweru uri mu ishyamba asa nkaho ari gutema ibiti. Ibiti ni byiza kandi bifasha abantu kubaka ndetse no gushyiraho ibiti ku nzu zabo.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi aho abantu bayikoresha kugira ngo birinde indwara zitandukanye, iyo umuntu adafite ibyangombwa bimufasha kujya kwivuza akoresha imiti gakondo.

Imbuto zigiye zitandukanye ziganjemo amacunga ndetse n'izindi, aho zifasha umuntu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mirire mibi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi yiganjemo amabara y'icyatsi, umukara n'umweru, iruhande rwa yo hicaye abantu benshi ubona ko bayitegereje kugira ngo bayigure.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi irimo amabara y'ubururu, umweru n'umukara iruhande rwayo hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, amavuta, amazi ndetse n'inzoga zitandukanye, aho abantu baturuka hirya no hino bakaza kugura kugirango babone icyo kunywa.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye, aho bagura imboga ziganjemo karoti, intoryi, amashu, ibitunguru, ndetse n'ibindi bicuruzwa badafite.

Imiti y'amoko atandukanye harimo ivura umutwe, umutima, impyiko ndetse n'indi miti itandukanye yifashishwa n'abaganga kugira ngo bafashe abarwayi kandi babahe serivisi nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kwiga ku nsanganyamatsiko z'ubuhinzi zizabafasha kwiteza imbere ndetse no kubungabunga ibiribwa ndetse n'ibidukikije.

Urutonde ruriho ibihingwa bitandukanye byiganjemo inanasi, imyembe, amatunda, ibinyomoro n'ibindi byose bitandukanye byifashishwa kugira ngo abantu birinde imirire mibi.

Urutonde rw'imbuto zitandukanye rwiganjemo imineke amata inanasi ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha umuntu kwirinda indwara.

Umuravumba ni umuti wifashishwa mu buvuzi butandukanye, kugira ngo bavure indwara zananiranye. Ni umuti ukoreshwa mu bice bitandukanye by'igihugu, kubera ko wizewe.

Icyumba kinini gikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo amavuta ndetse n'ibindi byinshi bifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icupa rinini rizamo umuti uvura indwara zitandukanye z'ubwonko, umutima, impyiko n'izindi zandura, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye baza kuwugura kubera ko udahenze.

Umuravumba ni muti abantu bifashisha kugira ngo bagire icyo bageraho, ni umuti uri mu ibara ry'icyatsi abantu bakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iyo ukoresheje imiti neza bituma ubasha gukira.